Abana biga mu mashuri y'incuke, bari kwigishwa uko umutwe bawuvuga mu rurimi rw'icyongereza, bamwe bambaye impuzankano abandi ntabwo barayigura, kandi inyuma yabo hari ishuri bigiramo.

Ishuri ryigiramo abana b'incuke ndetse bambaye imyenda igiye itandukanye harimo abambaye amashati y'umuhondo ndetse n'ubundi wambaye agasengeri gafite ibara ry'umweru bose bicaye.

Abana bato bigira mu ishuri ry'irerero. Hagati yabo hari umugore wambaye ijipo ndetse n'ishati y'amaboko maremare, ari kubigisha. Kandi hari n'undi urambije ku mukeka bahagazeho.

Abana b'incuke bambaye impuzankano ndetse bari mu cyumba cy'ishuri bigiramo, bicaye ku ntebe ziri mu mabara atandukanye, harimo izifite ibara ry'umuhondo, icyatsi n'ubururu kandi bakikije ameza.

Umugore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi ndetse ateze agatambaro mu mutwe k'umukara, imbere ye hari abana bakiri bato ari kubigisha indangagaciro na kirazira bikwiye kuranga umwana.

Umugore uri kumwe n'abana yigisha mu irerero. Bahagaze kumukeka, kandi abo bana bari gukoma mu mashyi. Ari kubigisha uturirimbo tubafasha gukanguka mu bwenge.

Abana babiri bato biga mu mashuri y'inshuke b'abakobwa, bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu bwijimye ndetse n'ubururu juru kandi bari kugenda mu muhanda w'igitaka, hirya y'uwo muhanda hari ibiti byinshi.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bambaye imyenda igiye irimo amabara atandukanye kandi hagati yabo hari umwarimu ubigisha, ari kubabwira imyitwarire bagomba kugera mu gihe bari mu ishuri. Inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abana b'incuke bambaye imyenda igiye itandukanye, muri bo hari abambaye amashati y'imihondo ndetse hari n'abandi bambaye imipira y'imituku kandi hagati muri bo hahagaze umwarimu ubigisha ndetse hirya yabo hari amashuri bigiramo.

Abana b'incuke bari kumwe n'umwarimu ubigisha, bambaye imyenda itandukanye, ndetse bari ahantu bahinze imboga, kandi inyuma yabo hari amashuri bigiramo asakajwe amabati.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ishyamba ndetse n'ibindi biti by'amoko atandukanye, gisakaje amabati y'ubwoko butandukanye ndetse inzugi n'amadirishya bisize irange ry'ubururu.

Abana b'abanyeshuri bari mu ishuri ryubakishije amatafari ahiye, ndetse abakobwa bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, abahungu bambaye ifite ibara rya kaki, hagati yabo hari ibitabo birambuye.

Igikuta gisize irangi rya beje, ryometseho impapuro ziriho amarangi atandukanye harimo: Iry'umuhondo, umutuku n'icyatsi, kandi icyo gikuta kiriho n'ikibaho mwarimu akoresha yigisha abanyeshuri.

Icyumba kirimo ibitabo, ameza kandi bigaragara ko ari mu isomero ndetse urugi rwo muri icyo cyumba rurafunguye ruriho ipata na selire kandi rusize irange ry'ubururu.

Imirima itandukanye ndetse igiye ihinzweho ibihingwa by'ubwoko butandukanye, yegereye amazu asakaje amabati y'ubururu ndetse hirya yayo hari ishyamba, hamwe n'insina n'amazu asakaje amategura.

Icyumba cy'ishuri gifite inkuta zubakishije amatafari ahiye kandi kuri urwo rukuta hari ikibaho abanyeshuri ndetse n'umwarimu bakoresha kandi hari n'intebe abanyeshuri bicaramo mu gihe bari kwiga.

Buri munyeshuri agomba kugira ibikoresho bihagije bimufasha mu gihe ari kwiga kubera ko igihe yabikoresheje ni ingenzi cyane kuko bimufasha kwibuka ibyo yize, harimo nk'ikaramu ndetse n'ibindi.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakaje amabati, hafi yacyo hari ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi kandi hari n'umuhanda w'amabuye ukiri kubakwa, hari n'abanyeshuri bari kugenda hafi y'ayo mashuri.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, ndetse gifite amadirishya afite ibirahure, kandi hari abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, ifite ibara ry'ubururu juru ndetse na kacye, hari n'undi mwana uhetse agakapu wambaye imyenda itandukanye n'iyabo.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, harimo uwikoreye ibase ifite ibara ry'ubururu, irimo ibiryo avuye kubiterura arabijyanye ngo abisangire n'abo bigana, ibyumba byo mu mashuri byubakishije amatafari ahiye kandi bifite n'amadirishya harimo ibirahure.

Ikigo cy'amashuri abanza kiriho abana bambaye impuzankano, abakobwa bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse abahungu bambaye imyenda ifite ibara rya kake, icyo kigo kiriho inyubako zisakaje amabati y'ubururu kandi hari n'ibyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bambaye n'inkweto zifite amabara atandukanye, babiri muri bo bateruye ibase irimo ibyo kurya bajyanye kugira ngo basangire n'abandi.

Ikigo cy'amashuri gifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu kandi gisakaje amabati ndetse cyubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hari indabo n'ahantu hari itaka.

Abanyeshuri bari mu ishuri bigiramo, hari ikibaho bifashisha ndetse n'intebe bicaraho mu gihe bari kwiga, kandi hari n'igikuta cyubakishije amatafahiye ndetse n'urugi n'amadirishya bifite ibirahure.

Inyubako irimo ibikoresho bibiri, kimwe ni akadobo kagiye gafite imyenge mito mito kari mu ibara ry'icyatsi ndetse ako kadobo gateretse mu ibase ifite ibara ry'ubururu.

Ishuri ririmo intebe ziteretseho ingwa ziri mu mabara atandukanye kandi izi ngwa zifashishwa na mwarimu yandikisha ku kibaho mu gihe ari gusobanurira abanyeshuri ibijyanye n'isomo bari kwiga.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye kandi inzugi zacyo n'amadirishya harimo ibirahure zisize n'irange ry'umuhondo, iruhande rw'iryo shuri hari abana bambaye impuzankano ndetse hari n'ibyatsi.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bari kureba muri mudasobwa iri imbere yabo ifite ibara ry'umweru n'icyatsi kandi muri icyo cyumba harimo ikibaho bakoresha biga ndetse hakaba hari n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kirimo abantu babiri, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, kandi izi mudasobwa bazifashisha mu gihe bari kwiga bari mu bushakashatsi, kugira ngo bamenye biruseho ibijyanye n'amasomo biga.

Igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse cyubakishije fondasiyo y'amabuye, kandi hari amagambo yanditse kuri icyo gikuta ari mu ibara ry'ubururu, umukara n'umutuku, ari mu rurimi rw'icyongereza kandi hafi yaho hari ibyatsi.

Ibigo by'amashuri bisabwa kugira ubwiherero bufite isuku kugira ngo babashe kwimakaza umuco w'isuku. Ubu bwiherero bufite inzugi zisize irangi ry'icyatsi ndetse bwubakishije amatafari ahiye. Hari n'ahasize irangi ry'umukara n'umweru.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye, cyometseho igipapuro ndetse icyo gipapuro gifashwe n'imisumari, kandi kiri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo.

Abana bicaye mu byatsi barambije bari kumwe na mwarimu wabo uri kubigisha kandi bambaye imyenda igiye itandukanye, inyuma yabo hari ahari igikapu ndetse hari n'amabuye aharunze.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri ndetse n'ameza ateretseho ibitabo bigiye bitandukanye. Ibi bitabo byifashishwa n'umwarimu mu gihe ari gutanga amasomo, kandi n'abanyeshuri barabisoma bityo bikabungura ubwenge.

Icyumba cy'ishuri kirimo insinga z'amashanyarazi kandi hari n'aho bacomeka kugira ngo babone umuriro, icyo gikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse umuryango wacyo urafunguye, urumuri rw'izuba ruri kwinjiramo imbere.

Icyapa kigaragaza ikigo cya Gatagara ndetse hariho indangagaciro na kirazira bigomba kugenga umunyeshuri uhiga, icyo cyapa kiri ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye kandi ayo magambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse hari amashuri asakaje amabati hari n'andi asakaje amategura, hari abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse muri icyo kigo cy'amashuri harimo ibiti, indabo hirya yacyo hari ishyamba.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakaje amabati afite ibara ry'ubururu, hafi yacyo hari ikigega kibika amazi kandi hari n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano abakobwa bambaye ifite ibara ry'ubururu, abahungu bambaye ifite ibara rya kake, bicaye mu ishuri kandi bari kwiga kugira ngo bazagirire Igihugu akamaro.

Icyumba kirimo umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, ndetse imbere ye, ahagaze umunyeshuri wambaye inifomo hamwe n'umupira w'umukara yifubitse, ari gusomera bagenzi be, ibyanditse mu gitabo.

Ni mu ishuri aho hari amasahani abanyeshuri bari kugenda barurirwaho ibiryo kugira ngo babashe kurya baze kubona uko bakomeza amasomo bameze neza.

Igikuta gisize irangi ry'umweru, gishushanyijeho abanyeshuri, ndetse hariho n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gikuta cyubakishije fondasiyo y'amabuye, kandi iruhande rwacyo hari ibyatsi.

Bimwe mu bikoresho bikoresha amashanyarazi, bidufasha mu kubona umuriro dukoresha muri telefoni ndetse la ronge ni kimwe muri ibyo bikoresho kubera ko icomekwaho ibintu byinshi harimo mashini, televiziyo n'ibindi.

Icyumba kirimo akabati keza cyane hejuru y'ako kabati hateretse ibikombe ikigo cy'ishuri cyagiye kibona binyuze mu mikino igiye itandukanye, ndetse muri icyo cyumba hateyemo irangi rya beje hejuru muri parafo harimo irangi ry'umukara n'umweru.

Inzu ifite amadirishya ndetse n'inzugi zisize irangi ry'icyatsi kandi ku rugi hariho ingufuri bafungiyeho ndetse amadirishya afite ibirahure.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye kandi kiriho ikibaho abanyeshuri bakoresha biga, ndetse umwarimu wabo yabandikiyeho imibare kugira ngo bayifashishe mu myigire yabo.

Abana b'abanyeshuri bahagaze ku muryango munini, urafunze babuze uko binjira kubera ko bakererewe, muri bo hari abafite ibikapu ndetse harimo uwambaye inkweto z'umuhondo.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye, kandi kuri icyo gikuta hariho ikibaho mwarimu akoresha ari kwigisha abanyeshuri, ndetse hari n'igishushanyo cyerekana mudasobwa mwarimu yifashisha mu gusobanurira neza abanyeshuri.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye, ni mu ishuri aho hari ikibaho kihometse gikoreshwa n'umwarimu mu gihe ari kwigisha abanyeshuri. Iki kibaho cyanditseho inyuguti zifasha abanyeshuri kwiga neza.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakaje amabati kandi hafi y'icyo kigo hari amashyamba ndetse harimo n'imirima iteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibigori n'ibindi.

Ikibaho ni cyo mwarimu yifashisha igihe ari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe gusobanukirwa ibijyanye n'ibyo bari kwiga, kandi abanyeshuri na bo biraborohera mu gihe bari kwiga ku kibaho, kuko bituma bibuka ibyo bize.

Imodoka itwara abanyeshuri ije kubafata kubera ko amasaha yo gutaha ageze, ikigo bigaho cyubakishije amatafari ahiye ndetse imbere yacyo hari agahanda k'amabuye.

Abantu bahagaze bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ishushanyijeho umuntu. Umwe muri bo yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, kandi hirya ye hari undi wambaye umupira ufite ibara ry'umukara.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu hari ibyatsi, bambaye impuzankano kandi imbere yabo hari abantu bahicaye ku ntebe harimo umu DASSO ndetse hari n'umugabo uri kubagezaho ijambo nyamukuru ryabateranyije aho.

Amarembo manini aha ikaze abagana ku kigo cy'amashuri, ndetse iyi nyubako isize amarange agiye atandukanye, harimo iry'umweru, umukara kandi ifite n'amadirishya arimo ibirahure, imbere y'iyo nyubako hari esikariye zimanuka.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse hari ahasize amarangi agiye atandukanye, harimo iry'umweru, irangi ry'umukara risize amagambo ryanditse ku gikuta cy'iryo shuri ndetse amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'umukara.

Abanyeshuri bicaye ku buryo bw'ikiziga, hagati muri bo hari umugabo uri kubasobanurira wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifite ibara ry'umukara, kandi yambaye agapira k'amaboko magufi na ko gafite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari amadirishya ndetse n'inzugi zifite ibirahure.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, bahetse ibikapu bigiye biri mu moko atandukanye, bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru ndetse aho hantu bari hakikijwe n'ibipangu hamwe n'amapoto ajyana amashanyarazi hirya no hino mu gihugu.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'asize irangi ry'umweru. Rifite amadirishya arimo ibirahure ndetse imbere y'iryo shuri hari abanyeshuri bari gukina umupira abandi baricaye bari kubareba.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano, bicaye mu cyumba kinini kirimo mudasobwa, aho zibafasha mu myigire yabo, mu bijyanye n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye mu ishuri bari gukora ikizami babahaye, imbere yabo hahagaze umwarimu uri kubakoresha icyo kizami, kandi amadirishya n'inzugi bisize irange ry'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ku buryo bugezweho, gisize amarange agiye atandukanye harimo iry'umuhondo, ubururu, umweru ndetse hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kandi imbere y'icyo kigo hari amapave.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano, mu ishuri harimo abantu bagiye batandukanye muri bo hari umwarimu uri kugenda ubahereza ikizamini bagiye gukora, kandi hari n'umugabo wambaye ijire ari gufotora.

Ku kigo cy'amashuri aho ababyeyi baje gusura abana, icyo kigo cyubakishije amatafari ahiye ndetse cyubatse ku buryo bugezweho, abanyeshuri b'icyo kigo bambara impuzankano ifite ibara ry'umweru, kake ndetse n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ku buryo amashuri agiye akurikirana kandi gisakaje amabati y'umutuku ndetse hari n'ahandi hasakaje amabati y'umweru gikikijwe n'ibiti byinshi kandi birebire ndetse n'ubusitani.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu, umweru n'irisa n'ivu kandi bicaye mu cyumba bari kwandika ibyerekeranye n'amasomo yabo, inyuma yabo hari akabati karimo ibitabo.

Abakinnyi b'amakipe abiri ahanganye bari gusuhuzanya mbere yuko umukino utangira, bari mu kibuga kandi hirya y'icyo kibuga hari ibyumba by'amashuri byubakishije amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse gifite umuryango munini, imbere y'uwo muryango hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano kandi imbere y'icyo kigo hari umuhanda w'amabuye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse hari abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, imbere yabo hari abantu bari kubigisha ku bijyanye n'imyitwarire myiza igomba kuranga umunyeshuri.

Inyubako iri ahantu hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru, ni ikigo cy'amashuri cyubatse neza ku buryo bugezweho kandi gisize amarangi atandukanye.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri, ndetse hari ameza ari imbere kandi hari intebe zigiye ziteretseho impapuro, ku kibaho handikishije ibara ry'umweru ariko cyo gifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru ndetse mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo mikoro, ari kuganiriza abanyeshuri bicaye ku ntebe z'umweru ndetse bambaye impuzankano y'ishuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bari mu ihema riri mu ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kandi imbere mu kibuga bari kureba intore ziri guhamiriza.

Inzu yubatse neza ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure ndetse bisize irangi ry'umukara, imbere yabyo hari esikariye kandi hari n'imodoka ihaparitse kandi hari n'ubusitani.

Ishuri ririmo intebe abanyeshuri bicaraho bari kwiga, kandi izo ntebe ziteye ku murongo ndetse inkuta z'iryo shuri ziteye umucanga kandi amadirishya ni ay'ibiti.

Abantu bari ahantu hubakishije amapave bari kubyina imbyino gakondo kandi hari n'abandi bicaye mu mahema afite ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo, hakurya ya hari amazu ahakikije.

Ikigo cy'amashuri gisize amarange agiye atandukanye, gisakaje amabati kandi ku gikuta hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'ubururu kandi inzugi n'amadirishya bisize irange ry'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu na kake. Bicaye ahantu mu byatsi, kandi muri bo harimo abakobwa n'abahungu. Ndetse hari n'ibiti biri hirya yabo, kandi imbere yabo hari umwarimu uri kugira icyo abagezaho.

Inzu ifite urugi rusize irangi ry'umukara kandi igiye iteye amarangi atandukanye, hafi y'iyo nzu hari umusekirite wegamye ku gikuta ari kurinda umutekano wayo, hirya ye hari indabo ndetse n'ubusitani.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bicaye ahantu mu byatsi, hirya yabo hahagaze abarezi babigisha kandi imbere yabo hari umugabo wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, ari kubabwira indangagaciro zigomba kuranga buri munyeshuri.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga. Imbere ku kibaho hari umwe muri bo uri gufashwa guca imirongo n'irati, abifashijwemo n'umwarimu ubigisha, ndetse bambaye impuzankano y'umweru na kake.

Inyubako yubatse ku buryo bwiza yubakishije amatafari ahiye, hari ahateye irangi ry'umweru ndetse n'ahateye irangi rya beje, ikikijwe n'ibiti byinshi by'amoko atandukanye kandi hari akayira kajyayo kubakishije amabuye.

Icyapa kiriho ibirango bigiye bitandukanye, ndetse icyo cyapa kiri mu mabara y'umweru, ubururu, umuhondo, icyatsi, n'ayandi.

Umuhanda wubakishije amabuye, uri kugendamo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, hafi y'uwo muhanda hari ibiti bihakikije ndetse n'ibyatsi kandi hari n'ipoto ijyana umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda yaje gusura ikigo cy'amashuri, aho ari kubabwira ibijyanye na gahunda polisi y'u Rwanda ifitiye abaturage, harimo iya gerayo amahoro.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu hari ibyatsi ndetse hagati yabo hagiye hari ibiti bitandukanye, imbere yabo hari umugore uhahagaze, afashe mikoro ari kubagezaho ijambo nyamukuru ryabateranyirije aho.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza, hari inyubako yubatse ku buryo bugeretse isakaje amabati y'ubururu, kandi hafi yayo hari icyatsi ndetse n'igiti kandi hari n'abantu bari kugenda hamwe n'imodoka.

Ikigo cy'amashuri, gifite amashuri asakaje amabati kandi mo imbere harimo ibiti by'amoko agiye atandukanye, urugo rw'icyo kigo hashushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye kandi hari n'ahubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba bafatiramo ifunguro bambaye impuzankano, bamwe bari kurira ku masahane afite ibara ry'umweru abandi amasahane afite ibara ry'icyatsi, hagati hari abarezi baje kureba niba ibiryo barya byujuje ubuziranenge.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye, ndetse hari n'ahasize irange, hari amabaraza asakarishije amabati, imbere y'izo nyubako hari ubusitani kandi hari n'amadarapo ahari, harimo irifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, hari abambaye umweru n'ubururu, abandi bambaye kake n'umweru ndetse hari n'abambaye imyenda ifite ibara risa n'ivu, imbere yabo hari umuyobozi uri kubagezaho ijambo nyamukuru, kandi hirya yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abanyeshuri bari kugendera mu kayira k'abanyamaguru, bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse na kake, kandi iruhande rwabo hari ibiti n'ibyatsi.

Ikigo cy'amashuri kirimo ikibuga cya basket ndetse icyo kigo cyubakishije amatafari ahiye gisakajwe amabati y'ubururu kandi hagati muri cyo hagiye harimo ibiti n'ubusitani.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano, bari mu cyumba kirimo urumuri ruturuka mu madirishya kubera ko ari ay'ibirahure ndetse hari n'ikibaho bakoresha biga.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere hari ameza ateretseho mudasobwa, bicaye mu matsinda bari gusobanurirana kandi harimo umwe wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, abandi bicaye ku ntebe zifite ibara rya kaki.

Abanyeshuri bari muri sale bambaye impuzankano zigiye zifite amabara atandukanye, bose bari kureba imbere bakurikiye uri gutanga ikiganiro, ababwira ku bijyanye n'imyitwarire iranga abanyeshuri.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bose barakurikiye imbere mwarimu, harimo abambaye udupfukamunwa tw'amabara agiye atandukanye kandi inyuma yabo hari ikibaho kirekire ndetse n'umuryango urakinguye.

Abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru na kaki kandi imbere yabo hari igishushanyo gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, kandi inyuma y'icyo gishushanyo hari amazu.

Abantu bari kugenda mu muhanda higanjemo abanyeshuri bari kuva kwiga, ikigo bigaho cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakarishije amabati y'ubururu, hari imodoka zaje gutwara abo banyeshuri kuko biga mu mashuri y'inshuke.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe bari gukurikira umwarimu uri kubigisha imbere, inyuma y'uwo mwarimu hari ameza yateretseho mudasobwa, kandi inyuma y'ayo meza hari ikibaho ari gukoresha yigisha.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, kiri ahantu hari ibyatsi byiza bitoshye cyane kandi cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza iki cyapa kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri umuryango wacyo munini urafunguye kandi imbere yacyo hari umuhanda wa kaburimbo ndetse cyubakishije amatafari ahiye, imbere harimo ibiti ndetse n'abantu.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isakaje amabati kandi ifite ahantu iteye irangi rya beje, ahandi hubakishije amatafari ahiye. Iyo nyubako ikikijwe n'izindi kandi hirya yayo hari ibiti, iruhande rwayo hari abantu bari kuhagenda.

Inyubako yubatse ku buryo bwiza, mu cyumba cyayo harimo abantu bari guhugurwa kandi urebereye mu idirishya, hakurya yayo hari indi nzu yubatse ku buryo bugeretse hamwe n'imodoka n'umuntu uri kugenda.

Icyumba abanyeshuri bigiramo kirimo mudasobwa nyinshi kugira ngo zibe zihagije kuri buri munyeshuri kandi harimo n'ameza ateretseho izo mudasobwa ndetse n'intebe abaza kwigiramo bicaramo kandi imbere hari ikibaho.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara amwe ari mu rurimi rw'igifaransa andi ari mu rurimi rw'Icyongereza kandi hari n'andi ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, icyo cyapa gikikijwe n'ibiti kandi kiri ahantu hari ibyatsi.

Icyumba kirimo umuntu wicaye ari kuvugira kuri telefone, imbere ye hari ameza asize irange ry'umweru, ateretseho mudasobwa zitandukanye kandi harimo intebe zifite ibara ry'umukara, icyatsi n'umutuku ndetse hari n'ibyapa bigaragaza Kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza zigiye zitandukanye, zubatswe ku buryo bugezweho, hari izisakarishije amabati y'ubururu, izindi zisakarishije amabati y'umutuku, kandi zisize amarange agiye atandukanye, imbere yaho hashashe amapave, kandi hari n'indabo.

Inzu ifite amadirishya y'ibirahure, kandi hejuru yayo hari amakositara ndetse hirya yayo hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye.

Agahanda kubabakishije amapave, hirya yako hari ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse hari n'intebe iteye munsi y'igiti yicayemo abantu, hirya hari ibiti birebire.

Abantu benshi bicaye muri sale, bamwe bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu abandi bicaye ku zifite ibara ry'icyatsi ndetse bagiye guhabwa ibiganiro ku bijyanye n'imyitwarire igomba kuranga buri munyarwanda.

Icyumba abanyeshuri bigiramo kirimo ameza akikijwe n'intebe zifite ibara ry'umukara kandi icyo cyumba kirimo utubati ndetse ku nkuta hasize irange ry'umweru.

Icyapa kinini kiri mu mabara agiye atandukanye, muri ayo mabara harimo umweru, umukara, ubururu ndetse n'ayandi, kiri ahantu mu byatsi ndetse inyuma yacyo hari amazu n'ibiti.

Imodoka yicayemo abanyeshuri. Ndetse iyi modoka ifite ikirango kigaragaza Kaminuza y'u Rwanda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Kandi abo banyeshuri bagiye gukora urugendoshuri.

Abantu bari mu cyumba kirimo ameza ndetse n'intebe. Imbere yabo hari umugabo uri kubagurura kubijyanye n'uburezi kandi icyo cyumba gifite amadirishya afite ibirahure, hejuru muri parafo hari ibara ry'umweru.

Icyumba cyiza cyabugenewe, kirimo ameza menshi agiye ateretseho ibikoresho abanyeshuri bakoresha mu gihe bari kwiga kandi icyo cyumba cyiganjemo ibara rya kaki, umukara ndetse n'umweru.

Ahatangirwa ubumenyi ku ishuri ni hamwe mu hantu abantu bakura ubumenyi ndetse bunabafasha mu kwibeshaho mu buzima bwa buri munsi, aha hari icyumba cyabugenewe mu kwiga ndetse gifasha n'abanyeshuri kumva neza amasomo yabo.

Ahantu hari amapave ndetse muri ayo mapave harimo ibyapa bifite ibara ry'ubururu n'umweru, hirya yabyo hari ubusitani ndetse n'amazu ateye irange rya beje afite n'inzugi n'amadirishya birimo ibirahure.

Icyumba kinini cyubatse neza, gifite inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse n'akarongo ahagana hasi gasize irangi ry'umukara, kirimo ameza manini ateretseho amacupa agiye atandukanye, ndetse n'ibikarito.

Icyumba kirimo varize y'umukara, ndetse kiriho uburiri bushasheho ikiringiti, kandi hari n'agakapu karimo imyenda ifite amabara atandukanye harimo iry'umweru, ndetse hari n'idirishya riri kuzana urumuri muri icyo cyumba.

Inzu y'ibitabo izwi ku izina ry'isomero irimo ibitabo bigiye bitandukanye, ndetse biri mu mabara atandukanye kandi ibyo bitabo biri mu kabati gasize irangi ry'umweru.

Bimwe mu biranga Kaminuza y'u Rwanda ni inyubako nziza ndetse n'abanyeshuri bagana mu isomero aho bajya kwiga bagasobanukirwa neza ibijyanye n'amasomo yabo ndetse n'ibindi.

Icyumba kirimo intebe zicarwamo n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, hamwe ni ameza, kuri ayo meza hateretseho amakaye n'ibitabo bifashisha, ndetse icyo cyumba gifite inkuta ziteye irangi ry'umweru.

Ahantu hari izuba, hari umuntu wambaye imyenda y'amabara atandukanye, kandi hari n'undi uri kumanuka kuri esikariye ndende cyane, hafi yaho hari ibyatsi ndetse n'amazu.

Icyumba kirimo abanyeshuri, bagikoresha mu gihe baba bari gusobanukirwa ibintu byose bize mu magambo, kandi bambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu ndetse n'amataburiya afite ibara ry'umweru.

Inzu isize irange rya beje ndetse hari n'ahubakishije amabuye kandi iyo nzu ifite amadirishya y'ibirahure asize irange ry'umukara, imbere yayo hari ubusitani kandi inyuma yayo hari indi nyubako.

Ikigo cy'amashuri hari aho abanyeshuri banika, imyenda yabo bameshe ndetse hari amazu bararamo asakaje amabati y'umutuku. Hirya hari indi nzu yubatse ku buryo bugeretse isize amarangi atandukanye.

Icyumba kirimo ibitanda bishasheho amashuka agiye atandukanye, ndetse hariho na varize n'imyenda y'amabara atandukanye, kandi icyo cyumba kimanitseho amarido ari mu ibara rya kake.

Icyumba abanyeshuri bigiramo, harimo intebe ndetse izo ntebe zigiye zifite aho abanyeshuri barambika ikayi mu gihe bari kwandika kandi icyo cyumba hejuru muri parafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse yambaye n'uturindantoki dufite ibara ry'ubururu kandi mu mutwe we hari umusatsi mwinshi yambayemo agafire n'agapfukamunwa yambaye kandi icyumba arimo gifite inkuta zisize irangi ry'umweru.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, giteye ahantu hari ibyatsi byiza kandi inyuma yacyo n'imbere yacyo hari akayira k'amapave, ndetse hirya y'ako kayira hari inyubako nziza.

Abantu bari kugenda mu gahanda k'amapave, harimo ufite igikapu mu ntoki ndetse haragaragara n'igicucu cye, kubera ko izuba riri kuva, aho hantu hari ubusitani bwiza n'ibiti birebire ndetse n'inyubako zubatse ku buryo bugeretse.

Icyumba kirimo ameza afite ibara rya kaki ndetse n'umukara, hejuru y'ayo meza hari ahateretse mudasobwa kandi harimo n'utubati, ndetse izo mudasobwa zifashishwa n'abanyeshuri hamwe n'abarezi mu kwiga ndetse no kwigisha.

Icyumba kirimo intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ameza ateretseho ibintu bigiye bitandukanye arambuyeho agatambaro gafite ibara ry'ubururu, muri icyo cyumba harimo insimburangingo ndetse n'akagare k'abafite ubumuga.

Inyubako yubatse ku buryo bugezweho, ifite amadirishya n'inzugi zirimo ibirahure ndetse zisize irange ry'umweru. Kandi hari ahubakishije amatafari ahiye, imbere y'iyo nyubako hari umuhanda wa kaburimbo.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku, kaminuza y'u Rwanda yubatse ubwiherero bwiza, abayigana ndetse n'abayigamo bazajya bakoresha, iki cyapa kibigaragaza kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kandi kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda.

Abanyeshuri bari mu ishuri, biga muri kaminuza. Ndetse ishuri bari kwigiramo, risize irangi ry'umweru rifite n'amadirishya amanitseho amarido.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isize irangi rya beje ndetse n'irisa n'ivu. Ikikijwe n'ibiti, ndetse hari n'ubusitani, burimo itara rimurikira abantu.

Ibiryo bitekerwa mu mahoteri ndetse n'amaresitora biba biryoshye kubera ko biba byatetswe n'abahanga hamwe n'abantu babyigiye. Uyu mugabo ni umwe mu bize ibijyanye n'amahoteri.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo mudasobwa, telefone ndetse n'icyuma gifotora impapuro muri papeteri, byose biteretse ku meza kandi inyuma yabyo hari ibindi bintu.

Mudasobwa ni kimwe mu gikoresho gikoreshwa mu burezi kubera ko gituma abanyeshuri barushaho kumenya ibyo biga, mu gihe bakoze ubushakashatsi ndetse bikanabungura ubwenge.

Umuhanda w'amabuye, uri kugendamo umuntu, ndetse na moto. Hirya y'uwo muhanda hari icyapa kirimo ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara, kandi hari n'ibyatsi, n'ibiti birebire, hirya y'ibyo biti hari amazu.

Icyumba abanyeshuri bararamo kirimo ibitanda bibiri byose bishashe amashuka asa kandi hari n'akabati karimo inkweto z'amabara atandukanye, hejuru yako hateretseho ubujerekani.

Kaminuza y'u Rwanda yatanze mudasobwa kuri buri munyeshuri kugira ngo imufashe mu myigire ye kandi abanyeshuri bakoresha ubu buryo bwa mudasobwa bituma bunguka ubwenge butandukanye.

Icyapa cyanditse mu mabara y'umweru n'ubururu kigaragaza Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, hirya yacyo hari umuhanda wa kaburimbo ndetse urimo n'umugenzi kandi hari n'ibiti byinshi bihari.

Icyapa gikoze mu giti, gishinze ahantu hari ibyatsi bitoshye ndetse kiriho amagambo avuga ngo birabujijwe guca muri jaride, aho hantu hari ibiti ndetse n'izuba riri kuhava.

Icyumba cy'ishuri kiriho igikuta gisize irangi rya beje, ndetse kuri icyo gikuta hakaba hari ikibaho abanyeshuri bakoresha mu gihe bari kwiga, kandi hari n'ikindi gikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kirimo ameza ateretseho keto, udukombe tubiri turi mu mu mabara y'ubururu na orange ndetse n'udujerekani dutatu kandi icyo cyumba gifite urukuta rusize irangi ry'ubururu hari n'intebe ebyiri.

Inyubako nziza zisize irange ry'umweru kandi zubakishije fondasiyo y'amabuye, ndetse hari izifite esikariye imbere yazo, kandi hagati yazo hari utubuye duto ndetse n'ubusitani.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru hari ikibaho bashyizeho porojegiteri kugira ngo abanyeshuri bose babashe kureba ibyo bagiye kwiga kandi ibi bibafasha gusobanukirwa neza ibijyanye n'imyigire yabo.

Inyubako nziza isize amarangi atandukanye, harimo irya beje ndetse n'umukara, ifite inzugi ndetse n'amadirishya bifite ibirahure kandi imbere y'iyo nyubako hari ubusitani hamwe na esikariye.

Abantu bari kugenda ahantu hubakishije amapave, harimo abasore ndetse n'inkumi, kandi ako kayira gakikijwe n'ibiti byinshi hamwe n'ibyatsi.

Ahantu hari abantu benshi cyane bari kurya, harimo intebe ziganje mu mabara y'umuhondo ndetse na oranje kandi abo bantu bambaye imyenda y'amoko atandukanye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye mu ntebe ndetse icyumba barimo giteye amarangi atandukanye iry'umweru ndetse na beje kandi amadirishya y'iryo shuri asize irangi ry'ubururu.

Ikibuga kinini cyane, giteyemo ibyatsi kandi ku ruhande nta byatsi bihari, gikikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye byinshi kandi hari ahubakiye abareba umupira bicaramo.

Abanyeshuri ba kaminuza barangwa n'ubufatanye ndetse no gusobanurirana hagati ya bo kugira ngo babashe kumva ibyo biga neza, hari abanyeshuri bicaye ku ntebe ndetse bakikije ameza, mugenzi wa bo ari kubasobanurira.

Inyubako isize irange rya beje ndetse inzugi zayo zisize irangi ry'umukara, ikikijwe n'ibiti birebire, kandi ku mpande z'iyo nyubako hari ibyatsi byinshi, ndetse hari n'umugozi ujyana amashanyarazi hirya no hino.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse kuri icyo gikuta hometseho agasanduku k'ibitekerezo gafite ibara ry'umweru, abantu iyo bafite ibitekerezo bashaka gutanga ku bitagenda neza, babyandika ku gapapuro bakabishyira muri kano gasanduku.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bigiramo, bose bari kureba umwarimu uri kubasobanurira wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara ndetse n'iherena ku gutwi kw'ibumoso, kandi yambaye n'amarinete; imbere yabo hari ameza ateretseho: camera, mudasobwa n'ibindi bintu bitandukanye.